Ikigo gitanga ubwishingizi ku muryango, ugizwe n'abana n'umugabo ndetse n'umugore cyitwa Turikumwe, wakanda akanyenyeri, magana atanu mirongo itatu na rimwe, cyangwa ugahamagara rimwe, umunani, icumi, ku bindi bisobanuro.

Ubwishingizi butangwa ku mutungo utimukanwa cyangwa uwimukanwa ndetse n'ubutangwa mu kwivuza no kuzigamira ejo hazaza.

Umukobwa ufite icyuma cy'ikoranabuhanga mu ntoki kigendanwa, ufite akamwenyu ku maso ndetse ari kohereza ibisabwa kumenyekanisha impanuka igihe cyose, aho uri hose.

Sonarwa n' ikigo cyifashishwa mu gutanga ubwishingizi mu kwivuza ndetse n'ibindi; kandi hakaba hari uburyo wabahamagara ku murongo utishyurwa ukanze icyenda amazero ane.

Ikigo gitanga ubwishingizi ku buzima ku miryango igiye itandukanye aho kandi akanyeri gatanu gatatu rimwe urwego ugakurikiza amategeko n'amabwiriza.

Ikirenge kigaragara ko cyakomeretse, gipfutse neza, hakaba handitseho "Impanuka ntiziteguza, gura turi kumwe, ubwishingizi buciriritse bw'ubuzima". Ukanze akayenyeri, magana atanu, mirongo itatu na rimwe, urwego.

Ubwishingizi bw'ibinyabiziga bigiye bitandukanye aho wishingira ibinyabiziga ndetse kikaba cyashyirwa mu bwirinzi.

Ikigo cy'ubwishingizi mu kwivuza aho wizigamira ukoresheje igikoresho k'ikoranabuhanga hari icyapa kiranga uburyo wabikoramo, hariho umukobwa wambaye umwenda wo mu ibara ry'umutuku.

Ikigo cyizigamirwamo n'abantu b'ingeri zose, abakene, abakire n'abandi bashaka kuzigamira ejo hazaza habo, kuko ibyago biza bidateguje, ndetse wizigamiramo gake gake.

Igipapuro cyerekana uburyo amafaranga yagiye yinjira akanasohoka mu bubiko bwawe gitangwa n’ ikigo gishinzwe imari waba warabikijemo amafaranga yawe.

Inzu y'ubucuruzi icuruzwamo imyenda igiye itandukanye y'abagabo n'abagore, abasore ndetse n'inkumi, bidoze mu bitenge ndetse bikorerwa hano mu rugo mu Rwanda.

Inzu ikorerwamo ikanacururizwamo ibikoresho byakoreshejwe intoki, by'ubugeni, harimo amasaro, imitako, amafoto, n'ibindi byinshi cyane bikozwe mu bikoresho gakondo.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, by'imyenda y'abagore, hari igishushanyo kimanitseho ikanzu iri mu ibara ry'umukara irangaye mu mugongo, ndetse hakaba hari n'akabati kari mu ibara ry'umweru.

Umutaka n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye n'imyenda amakanzu, amashati, bikozwe mu bi bitenge bifite amabara y'umutuku, icyatsi kibisi umweru umuhondo n'umukara n'ayandi.

Inzu y'ubucuruzi icuruzwamo imyenda y'abagore ndetse n'abakobwa, iri mu bwoko bw'amakanzu amapantaro udupira duto n'ibindi. Ikaba itondetse neza ku buryo igaragarira buri wese.

Isoko ricuruza imyambaro iy'abagore, abakobwa, abasore n'abana myiza kandi igezweho hari amatara ari mu ibara ry'umuhondo ndetse n'icyuma kifashishwa mu guconga abantu.

Isoko ricuruza imyambaro y'abagore, abagabo, abasore, inkumi ndetse n'abana bato harimo; ingofero, imipira, amashati apanze neza.

Umugore ucuruza imyenda yakorewe inaha mu Rwanda mu gihugu, imbere ye hari mudasobwa yifashisha mu bucuruzi bwe ndetse n'icyuma cy'ikoranabuhanga.

Ubucuruzi icururizwamo imyenda itandukanye ihahirwamo n'abirabura, ndetse n'abanyamahanga, hari umugore uri kwishyura akoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga n'umusore ufite mudasobwa.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo imitako ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, harimo imyenda ikozwe mu bi bitenge biri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, hakaba hari n'ibindi bikozwe mu masaro.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibiribwa by'amoko yose ndetse n'ibinyobwa hari umuguzi n'umucuruzi, bari kuganira ku bicuruzwa hakaba hari kandi amabase yo kogeramo.

Itwara abantu hakurya no hakuno ndetse no mu ntara ndetse no mu mugi wa Kigari iri mu ibara ry'umweru ku mpande ku nkengero hari ibiti byinshi cyane.

Isoko ricuruza cyangwa rikanakora ibinyabiziga bigiye bitandukanye harimo imodoka zitwara abantu benshi na bake hari imodoka ziri mu ibara ry'umweru hakurya hari inzu y'igorofa isize amabara y'umweru n'ibirahure byijimye.

Ikinyabiziga kiri mu ibara ry'umweru ndetse gifite n'ibirahuri, ku mpande hari ibiti by'inganzamarumbo bitanga umwuka duhumeka ndetse bigafata n'ubutaka.

Ikigo cyangwa uruganda rushinzwe gukora no kugirisha imodoka, hari abagabo babiri bahagaze imbere y'ibimodoka binini cyane biri mu ibara ry'icyatsi kibisi n'umutuku.

Imodoka itwara abagenzi benshi y'uruganda ndetse ikaba iri mu ibara ry'umweru yandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'ubururu ikaba yaje kubikwa.

Imodoka nziza nini itwara umubare wabantu ugera ku munani cyangwa ikenda igurishwa iherereye mu mujyi wa kigali ku mpande hariho ibidukikije by'ibiti.

Abagabo babiri bambaye imyenda itandukanye, umwe yambaye umukara, undi yambaye umutuku, bahagaze imbere y'imodoka itwara abagenzi, iri mu ibara ry'umukara.

Ikinyabiziga gitwara abantu ndetse n'ibintu, kiri mu ibara ry'umukara, igitoya, kiriho uturabo dutatseho imbere, turi mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru, iparitse ahantu hari ibirahure bibonerana.

Abantu babiri bakora mu ruganda rucuruza imodoka nini ndetse n'into rwitwa akagera, bambaye imyenda iri mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara, bahagaze inyuma y'imodoka y'umweru.

Imodoka igurishwa iri muri Kigali, hakaba hirya hari ibidukikije bigizwe n'amashyamba y'ibiti birebire, ndetse iyo modoka ikaba iri mu ibara ry'umukara, hakaba hariho numero wayibonaho.

Imodoka nziza cyane yo mu bwoko bukomeye ndetse iramba ikoranye ubuhanga buhanitse iri kugurishwa amafaranga y'u Rwanda miliyoni makumyabiri n'eshatu

Igiceri gikozwe mu cyuma ndetse kikaba ari ubwoko bw'amafaranga, handitseho banki nkuru y'u Rwanda ibihumbi bibiri n'icyenda, hashushanyijeho insina iriho igitoki.

Inote y'ibihumbi bitanu, ishushanyijeho inzu nini cyane, igizwe n'amabara y'icyatsi kibisi, umuhondo, ubururu, ndetse hakaba hashushanyijeho n'agashushanyo gato k'ingagi.

Imashini yabugenewe y'ikoranabuhanga ibara amafaranga ya mudasobwa, hari umuzingo w'amafaranga menshi cyane harimo amadorari, ndetse n'ayandi akoresha mu bihugu by'amahanga.

Umugabo wambaye neza imyenda iri mu ibara ry'umukara, uri gukoresha mudasobwa, ndetse wambaye isaha ku kuboko, bigaragara ko akora akazi ko gutunganya ibintu bimwe.

Ikigo gishinzwe umutekano mu Rwanda, ndetse kikaba gitwara amafaranga kiyashyikiriza ku bigo by'imari bitandukanye, mu mujyi wa Kigali, no mu nkengero.

Amafaranga yu Rwanda ibihumbi bibiri ashushanyijeho ikiyaga ndetse n'ibidukikije bigizwe n'ibiti hariho ikirango cy'agasheke kandi akaba yemewe n'amategeko.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu kubika ndetse no gukonjesha ibinyobwa bigiye bitandukanye, hateretsemo amacupa y'amata ari gukonjeshwa.

Umukobwa uri kubuganiza amata, ayakubiye mu cyuma kiyatunganya kikanayategura. mu buryo bwiza kandi bugezweho gikoreshejwe ikoranabuhanga, kinayakonjesha, ari kuyashyira mu icupa ryabugenewe.

Igikoresho kifashishwa mu kubikwamo amata akomoka ku itungo ry'inka, ndetse kikaba kiri mu ibara ry'umweru, imbere hahagaze umuntu wambaye imyenda iri mu ibara ry'ubururu.

By'ikoranabuhanga byifashishwa mu kubika ndetse no gutunganya amata akagumana ubuziranenge kandi akonje, biri mu nzu isize irange ry'umweru.

Uru inka rw'abantu bahagaze imbere y'akazu gato karirimo ibara ry'umuhondo baje gushaka ubufasha ku bintu bigiye bitandukanye bijyanye n'ivunja n'ivunjishwa ry'amafaranga ndetse no kohezwa amafaranga binyuze mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Uburyo wakoresha n'inzira wanyuramo wohereza, ubitsa cyangwa ubikura amafaranga wifashishije igikoresho cy'ikoranabuhanga n'itumanaho kigendanwa mu ntoki ndetse kinakoreshwa mu guhamagara.

Uburyo bw'ikoranabuhanga bwifashishwa mu kwishyura ibicuruzwa bigiye bitandukanye ndetse ukaba wabikaho n'amafaranga yawe cyangwa ukohererezaho inshuti n'abavandimwe.

Urupapuro rutangwa n'ikigo cy'imari gishinzwe kubika amafaranga mu Rwanda, rwerekana uburyo amafaranga yagiye yinjira akanasohoka mu bubiko bwawe bagendeye ku matariki.

Icyemezo gisabirwa ku rubuga rw'irembo ukoresheje ikoranabuhanga, cyemeza ko utarimo umwenda, cyangwa ideni, imisoro.

Igipapuro gitangwa n'ikigo cy'igihugu gikusanya imisoro mu rwanda; cyerekana umusoro watanze ku nyungu ndetse n'amafaranga uko yagiye yakirwa.

Igipapuro gitangwa n'ikigo K'igihugu gishinzwe imisoro kerekana umusoro ku nyungu ku byinjiye ndetse n'ibyasohotse mu bubiko, hariho kandi umubare w'amafaranga n'amatariki.

Igipapuro cy'inyemezabwishyu cyerekana uburyo wahashye cyangwa waguze ibikoresho bigiye bitandukanye ndetse n'amafaranga n'inyungu ku musoro watanze.

Igipapuro gitangwa n'ikigo gishinzwe imisoro mu Rwanda, cyemeza yuko utarimo ideni ry'imisoro ndetse ukagihabwa ugiye gufungura ubucuruzi bwawe.

Umuntu uri kubara amafaranga atari amanyarwanda ari mu bwoko bw'amadorari akaba ashushanyijeho umugabo ufite umusatsi muremure ndetse ari mu ibara ry'umweru.

Umuntu uri kubara amafaranga ayahererekanya n'undi amafaranga atari amanyarwanda y'amanyamahanga ari mu bwoko bw'amadolari afite agaciro karekare kumanyarwanda .

Amafaranga afite agaciro gatandukanye bitewe n'igihugu cyayo hari amanyarwanda, inote ya bitanu ndetse n'inote y'igihumbi hakaba n'andi y'amadolari ndetse n'andi y'abanyamahanga.

Ibiceri by'amafaranga y'amanyamahanga byiganjemo iby'atanu ndetse n'ibya rimwe, hakaba hari n'inote iriho umugabo w'umunyamahanga y'ijana.

Ihererekanya ry'amafaranga y'ivunjwa y'Amanyarwanda, ari kuvunjwamo amafaranga y'amanyamahanga, ari mu bwoko bw'amadorali.

Gishinzwe kuvunjisha amafaranga y'amanyamahanga mu manyarwanda ndetse hari umugabo ufiite amadorari mu ntoki akoreshwa mu gihugu cya leta zunze ubumwe z'Amerika.

Ibiganza bibiri bifashe mu ntoki amafaranga, ay'ubwoko bw'amadolari akoresha muri leta zunze ubumwe za Amerika, hakaba hariho umugabo w'umuzungu ufite imisatsi miremire, akaba afite agaciro ka rimwe.

Uri kubara amafaranga yo hanze y'abanyamahanga, ariho umugabo ufite imisatsi miremire ndetse afite n'akuma k'ikoranabuhanga kabara amafaranga.

Amafaranga y'amanyamahanga atavunje, ariho igiciro cy'icumi, ndetse afunze neza afungishijwe agakoresho kabugenewe, akaba yitwa amayero.

Amafaranga menshi cyane atondetse m'uburyo bwiza kandi bugezweho y'amavamahanga, hariho umugabo ufite imisatsi ndetse akaba y'avunjwa n'abanyarwanda.

Icyma k'ikoranabuhanga kifashishwa mu kubara amafaranga aho wandikamo umubare ubundi ukayashyiramo ndetse nacyo kikabara, kiri kubara amafaranga y'igihugu cya leta zunze ubumwe z'Amerika hariho umugabo ufite imisatsi miremire.

Ubucuruzi itangirwamo ubufasha ku ivunja n'ivunjishwa ry'amafaranga y'abenegihugu ndetse n'andi y'amavamahanga, isize ibara ry'ubururu ndetse ikaba ikorera mu buryo bwemewe n'amategeko.

Akazu gato cyane gafite imiryango ifunguye iri mw'ibara ry'umweru nako kaba gasize amarange ari mw'ibara ry'umuhondo, hakaba handikishijweho amagambo ari mw'ibara ry'ubururu ndetse n'umutuku, hakaba hatangirwa ubufasha mu birebana no kuba wahinduranya amafaranga.

Akazu gato gatangirwamo ubufasha mu birebana no kuvunja no kuvunjisha amafaranga uyakura mu gihugu kimwe, uyashyira mu kindi gihugu mu gaciro kayo.

Inzu ikorerwamo ivunjishwa cyangwa ihererekana ry'amafaranga y'amanyarwanda ndetse n'amanyamahanga, hari icyapa kiri mu ibara ry'ubururu, cyandikishijeho amagambo y'umweru ndetse n'ari mu ibara ry'umuhondo.

Inzu ikorerwamo ivunja n'ivunjishwa ry'amafaranga y'abanyamahanga avunjwamo amanyarwanda hifashishijwe ibyuma by'ikoranabuhanga biyabara.

Intebe zibajwe mu mbaho nziza kandi zikomeye zirimo imifariso ifite ibara ry'umweru ndetse hakaba hari uruganiriro ku mpande, inkuta zisize ibara ry'umweru hari n'amadirishya.

Intebe ndetse n'imeza bibajwe mu mbaho zikomeye kandi nziza mu buryo butangaje. Ku mpande hari indabo z'ubusitani, ziri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Intebe zikorwa mu buhanga buhanitse z'imifariso. Imbere hari akameza gato kabajwe mu biti bikomeye, ndetse ku mpande izi intebe zigiye zifite ibara ririmo umweru n'umukara.

Intebe zibajwe mu buryo bwiza kandi bugezweho, zicarwaho zikaba zashyirwa mu ruganiro cyangwa hanze aho abantu baganirira bumva akayaga.

Agakoresho kabajwe neza mu buryo bwa gihanga gateretsweho indabo ziri mu dukombe twibara ry'umweru, ndetse bizana impumuro nziza mu nzu cyangwa aho gateretse.

Inzu y'uruganiriro ndetse ifatirwamo amafunguro hakoreshwa kandi mu kwiyakira mu birori bigiye bitandukanye nk'ubukwe, inama igizwe n'abantu benshi harimo intebe ziri mu ibara ry'umutuku.

Inzu nziza cyane yubakanywe ubuhanga buhanitse ndetse n'isuku ntagereranywa, ikoranwe ikoranabuhanga, isize amarangi y'umukara ndetse n'umweru.

Igipapuro kiriho ibiribwa bicururizwa aho hantu, ndetse n'ibiciro byabyo, buri kimwe, kandi hashushanyijeho ishahane iteretseho ibyo kurya.

Inyubako ndende y'amagorofa iri mu mabara ari mu cyatsi kibisi ndetse n'umuhondo, ikaba kandi ifite ibirahure byijimye. Ikikijwe n'ibidukikije byiganjemo ibiti.

Icyanya cy'ubukerarugendo hari amazi bogamo ya kizungu, ndetse hari imitaka abantu bicaramo bari kuganira cyangwa bashangira ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa.

Inzu icururizwamo ibyo kurya, hakaba yateretsemo ibikoresho by'ibyuma birimo ibiribwa, ku mpande hakaba hari imbuto zitunga umubiri zigizwe n'inanasi, imineke n'ibindi.

Inzu nziza isize amabara ndetse ifite isuku imbere hari ubusitani bwiza cyane burimo indabo ndetse zikikije urugo imbere n'inyuma.

Ururabo ruteretse ku meza rufite amabara meza, harimo umutuku, ubururu, umweru n'umuhondo. Hari kandi intebe z'imifariso.

Inzu yubatse neza y'ubukerarugendo irimo amatara ari mu ibara ry'umuhondo ndetse hakaba harimo ubusitani bw'ibiti bitoya by'indabo ndetse ikaba yakira abantu urujya n'uruza, harimo amacumbi n'aho gufatira amafunguro.

Ikigo cy'ubwiteganyirize mu Rwanda, ikarita yo mu muryango y'ubwisungane mu kwivuza, ufite iyi karita ntarembere mu rugo. Umwana afite iyi karita y'ubwisungane mu kwivuza kugira ngo ajye kubona uburyo yakwivuzamo.

Inzu y'ubukerarugendo yitwa Radisoni ifite amacumbi yo kuraramo ndetse n'aho kurira bigezweho kandi bifite isuku n'umutekano.

Inzu y'ubukerarugendo ifatirwamo ibyo kurya bigiye bitandukanye, yubakishijwe ibiti ndetse ikaba ishakakarishijwe ibyatsi bigiye bitandukanye, hari udutara twiza turi mu ibara ry'umuhondo.

Ikigo cy'ubwishingizi cyishingira umuryango ugizwe n'abana, n'umugabo, n'umugore, bakaba bakwishingira umwana ku bijyanye n'imyigire ye, ndetse n'izindi mpanuka zitandukanye.

Inzu mberabyombi irimo intebe nyinshi cyane ziri mu ibara ry'ubururu ndetse n'imeza, hakaba hasize amarange ari mu ibara ry'umweru n'amatara yaka cyane.

Umugabo wicaye ku ntebe y'ibara ry'umukara, afite mudasobwa iri mu ibara ry'umweru inyuma ye hari imibare wahamagaraho; kabiri, gatatu, kabiri, gatatu.

Igorofa ikorerwamo ubucuruzi isize amarangi y'umuhondo, ndetse hakaba hamanitse ibyapa byinshi cyane biyobora abantu aho bakorera, hari kandi itara ryo ku muhanda riri mu ibara ry'umweru n'ubururu.

Inzu ndende y'igorofa ifite ibirahure byijimye biri mu ibara ry'ubururu ndetse ikaba nayo iririmo ibara ry'umuhondo, hari insinga zikwirakwiza amashanyarazi hasi hagarire imodoka.

Inzu ikorerwamo n'abayobozi cyangwa abategetsi; ikaba ifite imeza n'intebe byose biri mu ibara ry'umukara ndetse n'igikoresho cya mudasobwa cy'ikoranabuhanga.

Inzu yakirirwamo abantu baba baje gusaba ubufasha ku birebana n'ibikorerwa aho, hari imeza zibajwe mu buryo bwiza ndetse hakaba hari n'intebe iri mu ibara ry'umukara n'ahateretse ururabo ruri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Inyubako ikorerwamo inama cyangwa uruganiriro, hari imeza ndende ndetse n'intebe ziri mu ibara ry'umukara n'amadirishya, hakaba hateye irange ryiza.

Umugabo ufite amafaranga menshi mu ntoki wambaye ikote riri mu ibara ry'umukara ipantaro ni ibara ry'umukara ndetse n'ishati y'ubururu akaba ahagarariye ikigo gitanga inguzanyo nta ngwate.

Uburyo bw'ikoranabuhanga wakoresha ugafungura konti utavuye aho uri, burihuta kandi biroroshye ndetse biranizewe. ufungura ukoresheje mudasobwa cyangwa ikindi gikoresho k'ikoranabuhanga.

Igikoresho cyifashishwa mu ndangururamajwi y'imbwirwaruhame, aho ugikoresheje yumvikanwa na benshi ndetse kikaba cyifashishwa mu kwamamaza ibintu bigiye bitandukanye.

Gosheni ni ikigo gishinzwe ubwishingizi mu Rwanda kizigamira ab'izabukuru, impanuka ndetse n'ibindi biba bitateguje bakaba bakwishyurira amashuri n'ibindi.

Ababyeyi b'ikigo k'imari kitwa unguka bambaye imishanana iri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru bari imbere y'inyubako y'ikigo gishinzwe gucunga umutungo, imbere yabo hari imodoka iri mu ibara ry'umukara.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibiribwa bigiye bitandukanye nk'ibishyimbo, inyanya, karoti, imboga z'ubwoko bwose ndetse n'imbuto zitandukanye.

Ibikorwa bicururizwamo ibiribwa bigiye bitandukanye harimo imboga ndetse n'imbuto bikungahaye ku ntungamubiri zigiye zitandukanye higanjemo imineke amatunda n'ibindi .

Inzu ndende y'igorofa irimo amabara agiye atandukanye hari iry'umutuku, ubururu ndetse n'umweru hariho kandi ibirirahure byijimye.

Uruvunganzoka rw'abantu bahagaze imbere y'inyubako ndende cyane, yubatswe mu buryo bukomeye kandi burambye, iriho ibirango bigiye bitandukanye biri mu ibara ry'umutuku n'andi.

Ibikoresho by'imitako bikorwa mu bugeni n'ubukorikori harimo uduseke, ndetse n'utundi tuntu twinshi cyane dukorwa hano mu rwanda hifashishijwe amaboko.

Isoko ryubatswe mu cyanya cyahariwe ubucuruzi kikaba ryubatswe mu buryo bwa gisirimu, muburyo bw'amagorofa hasi hakaba hari ibicuruzwa bigizwe n'imyenda.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibiribwa bigiye bitandukanye bigizwe n'imboga, imbuto ndetse n'ibindi muri ibyo biribwa harimo inyanya, amashu, karoti n'ibindi.

Isoko ry'ibiribwa bigiye bitandukanye harimo imbuto zigizwe n'amatunda, ibinyomoro, imineke imyembe n'ibindi byinshi.

Isoko rigurishwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, higanjemo imboga nk'amashu, inyanya imiteja, n'ibindi n'ibindi hakaba hicimo umugore uri gucuruza.

Isoko rya kijyambere ririmo abaguzi ndetse n'abagurisha bari gucuruza ibiribwa bigiye bitandukanye bikungahaye ku ntungamubiri ndetse n'ibirinda indwara. Harimo imboga zigizwe n'amashu, inyanya, karoti, n'ibindi.

Utuzu tubiri duteganye kamwe kari mu ibara ry'umutuku, akandi kari mu ibara ry'umuhondo dutangirwamo ubufasha kubirebana n'ikoranabuhanga mu kohereza, kubitsa, kwakira amafaranga.

Igikoresho cy'itumanaho cyifashishwa mu guhamagara kwandika ubutumwa bugufi, kohereza, kwakira, kubika no kubikura amafaranga utavuye aho uri, ndetse imbere hari uburyo wakoresha wishyura.

Ahatangirwa ubufasha ku birebana n'itumanaho umuyoboro mugari mu Rwanda hari icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo ndetse gishushanyijeho igikoresho cy'ikoranabuhanga kigendanwa cyanditsemo kanyenyeri ijana na mirongo ine urwego.

Cyangwa ishami ry'ikigo gishinzwe itumanaho umuyoboro mugari mu Rwanda cyitwa emutiyene kari mu ibara ry'umuhondo ndetse karitaruye kari mu bidukikije bigizwe n'ibiti.

Ikarita yikigo gishinzwe umuyoboro w'itumanaho murwanda yerekana uburyo wakwifashisha ikoranabuhanga wishyura ntakiguzi, nimero y'umucuruzi n'umunani icyenda gatandatu, gatandatu, gatandatu, umunani,

Ikicaro gikuru gishinzwe gutanga ubufasha ku birebana no kohereza, guhamagara, kwakira, kwishyura amafaranga ukoresheje igikoresho k'ikoranabuhanga, bafite na mudasobwa imbere zabo.

Ihema cyangwa umutaka biri mu mu ibara ry'umweru ritangirwamo ubufasha kubijyanye n'ikoreshwa ry'ikoranabuhanga mu mirimo igiye itandukanye, hari abakozi bambaye impuzankano y'akazi iri mu ibara ry'umweru.

Ahatangirwa ubufasha bw'ikigo cy'ikoranabuhanga, umuyoboro mugari mu Rwanda, hari umusaza wambaye impuzankano y'akazi iri mu ibara ry'umuhondo, imbere hari igikoresho cy'ikoranabuhanga cya mudasobwa cyifashishwa.

Akazu gato cyane gatangirwamo ubufasha ku birebana no kubitsa ,kubikuza, kohereza ndetse no kwakira amafaranga binyuze mu ikoranabuhanga kakaba kari mu ibara ry'umuhondo .

Umukozi w'ikigo gishinzwe itumanaho, umuyoboro mugari mu Rwanda cyitwa Emutiyene w'umuzungu, afite impano ari guhereza abaturage baje babagana ndetse hari umugore ufite icyuma cya mudasobwa.

Akazu gato cyangwa ishami rishinzwe gutanga ubufasha ku bijyanye n'ikoranabuhanga, wifashisha wishyura wohereza ukanakira amafaranga utavuye aho uri, kari mu ibara ry'umuhondo.

Urubuga ruhuza umuguzi n'umucuruzi, bakaganira ku biciro by'ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo amakote, ibikapu byo gutwaramo by'abagore ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ikoranabuhanga bwifashishwa mu kohereza ibyo kurya ku gihe ndetse bikakugeraho bifite umutekano n'isuku ntakemangwa, ubitumiza wibereye iwawe.

Iyi ni igorofa ikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bigiye bitandukanye, harimo imyenda y'abana, abagore ndetse n'abagabo, imbere yayo hari ubusitani burimo indabo ndetse n'ibiti.

Ibiribwa biryoshye kandi bikungahaye ku ntungamubiri zitandukanye bikozwe mu ifarini, inyama, amagi, amata, amagi ndetse n'isukari bikaba bicuruzwa binyujijwe ku....

Ibikoresho bibiri, biri ku binyabiziga bitwara ibyo kurya mu buryo bwiza kandi bwizewe, bufite isuku n'umutekano, ku nkengero y'umuhanda hariho ibiti by'ibidukikije.

Uburyo bw'ikoranabuhanga ukoresha urubuga ukaganira n'umucuruzi ukaba wamwoherereza amafaranga utavuye aho uri nawe akakugezaho ibicuruzwa ku gihe kandi mu buryo bwizewe

Urubuga rw'ikoranabuhanga rwifashisha mu kuwuza umuguzi ndetse n'umugurisha akaganira ku giciro umuguzi agatuma igikoresho cyangwa se igicuruzwa yifuza kikamugeraho vuba.

Umugabo uri kuranga ikibanza kinini cyane, wakubakamo cyangwa ugahingamo, giherereye mu mujyi wa Kigali, Musave, Bumbogo kigurishwa miliyoni z'amanyarwanda cumi n'eshanu.

Inyubako iherereye mu mujyi wa kigali mu gihugu cy'u Rwanda igurishwa amafaranga miliyoni mirongo irindwi n'eshanu z'amanyarwanda, yubatswe neza ifite amarangi ari mu ibara ry'umweru.

Inzu isize amarangi y'umweru iri mu Rwanda mu mujyi wa Kigali, iherereye kabeza ikaba igizwe n'icyumba kimwe ndetse hakaba harimo uburyamo bufite n'imifariso.

Inzu iherereye ku muhanda wa Kabeza mu mujyi wa Kigali mu gihugu cy'u Rwanda, ikaba igurishwa miliyoni mirongo irindwi n'eshanu z'u Rwanda ikaba yubatse mu buryo bwiza.

Umugabo uri mu kibanza kinini wambaye impuzangano iririmo ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'umukara, ari ahantu hari ikibanza cyo guhingamo ndetse n'ibidukikije birimo amashyamba.

Inzu iherereye mu mujyi wa kigali mu gihugu cy'urwanda ikodeshwa igizwe n'ubusitani burimo indabo z'icyatsi kibisi ndetse n'umuhondo hasi hakaba hari utubuye dufite ibara ry'umutuku.

Uruganiriro rurimo intebe z'imifariso ndetse akaba ari inzu nini cyane yubatse mu buryo bwa kijyambere kandi bwiza bugezweho ifite amarangi y'umweru ndetse n'umukara .

Inzu nziza cyane yubatswe mu buryo bwa kijyambere ndetse igizwe n'amagorofa hari amatara meza ari mu ibara ry'umuhondo ndetse hakaba hari n'utubuye turi mu ibara ry'umutuku.

Inzu nziza cyane igizwe n'amabara cyangwa amarange yo mu bwoko bwiza harimo umukara ndetse n'umuhondo ikaba kandi ikodeshwa ibihumbi magana atandatu by'amanyarwanda.

Inyubako ndende cyane ikodeshwa iherereye mu mujyi wa Kigali, ndetse ikaba iri Nyarutarama ikaba ari inyubako igeretse ndetse ikaba imbere hari imodoka iri mu ibara ry'umukara.

Inzu iherereye mu mujyi wa Kigali igurishwa miliyoni mirongo icyenda n'eshanu z'amanyarwanda iri i Kanombe ifite aho bashyira imodoka eshatu.

Inzu nziza cyane yubatswe mu buryo bwiza iteye amarange meza cyane, iherereye mu mujyi wa Kigali mu gace ka Gikondo, ikaba ikodeshwa ndetse ifite ibyumba bibiri n'ubwogero bumwe.

Inzu nziza cyane iherereye mu mugi wa Kigali muri Kibagabaga, ikaba isize amabara agiye atandukanye umuhondo, umweru, icyatsi, ikaba ikodeshwa ikaba igizwe n'ibyumba bibiri.

Inzu nziza cyane ifite urugi ruri mu ibara ry'umukara isize amabara agiye atandukanye ibara risa n'ivu ndetse n'irisa umuhondo iherereye Kigali Kimironko.

Inzu iri mu mugi wa Kigali, iherereye mu murenge wa Kimironko, ikodeshwa ibihumbi magana atandatu y'u Rwanda, ndetse ibaka ari iy'igorofa, iri mu ibara ry'umutuku, hakaba harimo ibyumba bine n'ubwogero bune.

Inzu ikodeshwa iherereye mu mujyi wa kigali mu gace ka Kanombe, ikaba ifite ibyumba bitatu byo kuraramo ndetse n'ubwogero bubiri. Ikaba ikodeshwa amafaranga y'u Rwanda ibihumbi magana atatu na mirongo itanu.

Inzu iherereye mu mujyi wa Kigali mu gace ka Gishushu, ikaba irimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, harimo igikoresho kigaragaza amajwi ndetse n'amashusho.

Ikibanza kinini cyane kiri kugurishwa kirimo ubutaka bwo guhingamo ndetse ushobora no kuba wanubakamo hakurya hakaba hari ibiti.

Inzu ikodeshwa, iherereye mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Kicukiro, ikaba igizwe n'uburyamo bune ndetse n'ubwogero bune. Ikaba ikodeshwa amafaranga y'u Rwanda ibihumbi magana arindwi ku kwezi.

Urubuga ruhuza umuguzi n'umucuruzi akaganira ku biciro by'ibicuruzwa, umuguzi akishyura akoresheje igikoresho k'ikoranabuhanga, ndetse ugurisha nawe akabimugezaho byihuse.

Urwego rw'ubushinjacyaha rushinzwe iperereza mu rwanda, ndetse no kurinda umutekano, hari gukoramo abagabo n'abagore bafite mudasobwa ebyiri zibikwamo amakuru.

Isoko ririrmo imboga ndetse n'imbuto rigizwe n'ibitunguru, inyanya, karoti, amashu n'imboga rwatsi. Nibindi bigiye bitandukanye bikungahaye ku nunga mubiri ni birinda indwara.

Isoko rya kijyambere ricuruza ibicuruzwa bigiye bitandukanye ndetse rikaba ricuruza n'ibindi byanyujijwe mu nganda bikongerwamo ibindi bintu bigiye bitandukanye ndetse bigafungwa neza mu buryo bugezweho .

Isoko rya kijyambere ricururizwamo ibintu bigiye bitandukanye byanyujijwe mu nganda, bigatunganywa bikabikwa neza mu bikoresho byabugenewe, rubirinda kwangirika.

Ibiro bishinzwe abinjira n'abasohoka mu gihugu bari kwakira abantu b'urujya n'uruza babaha inyemezabwishyu zibemerera kugira aho bajya ndetse bicaye ku ntebe ziri mu ibara ry'umweru.

Isoko cyangwa inzu y'ubucuruzi ngari ihurirwamo n'urujya n'uruza rw'abantu, bacuruza ibicuruzwa bigiye bitandukanye birimo imyenda, inkweto ndetse n'ibikapu byo gutwaramo.

Umugore wambaye ijipo iri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'umutuku, afite mu ntoki amakarita abiri y'ubwisungane mu kwivuza atangwa n'ikigo k'imari.

Abakozi babiri b'ikigo gishinzwe ubwishingizi mu Rwanda, bambaye impuzankano iri mu ibara ry'umweru, bicaye ku ntebe ziri mu ibara ry'umukara, inyuma hari icyapa kiri mu ibara ry'umweru.

Ikarita ifite ibara ry'umuhondo y'ubwisungane mu kwivuza, ihabwa umunyamuryango wese mugihe yishyuye ifatabuguzi ndetse ikaba ari iy'abaturarwanda ni iyo mu karere ka Kicukiro.

Abagabo bari gufata amajwi harimo ibyuma by'ikoranabuhanga byifashishwa mu itumanaho ndetse hakaba n'ibindi byifashishwa mu ndangururamajwi mbwirwaruhame.

Ikarita y'umunyamuryango y'ubwisungane bwo kwivuza, yitwa mituweli hariho umugabo witwa Bizimungu ja ndamaseni ndetse hirya hari indangamuntu.

Isoko rya kijyambere rigezweho, ricururizwamo ibicuruzwa binyuzwa mu nganda bigafungwa neza mu buryo bwabugenewe; bukozwe mu isuku ndetse bunizewe bubirinda kwangirika.

Isoko rya kijyambere ricuruza ibicuruzwa bigiye bitandukanye byanyujijwe mu nganda bigatunganywa, bikongeramo intungamubiri zigiye zitandukanye ndetse bigafungwa mu buryo bugezweho kandi bwizewe bubirinda kwangirika.

Isoko rya kijyambere ricururizwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye biba byanyujijwe mu nganda bigafungwa neza mu bikoresho byabugenewe bibirinda kwangirika bikagumana ubuziranenge n'uburyohe .

Isoko rya kijyambere rigezweho ricuruza ibicuruzwa byaturutse mu nganda biba bifunze neza mu buryo bugezweho kandi bwizewe bufite isuku bibirinda kwangirika.

Isoko rya kijyambere ryubatswe muburyo bwiza kandi bugezweho ricuruza ibicuruzwa byanyujijwe mu nganda bigafungwa mu bikoresho byabugenewe birinda kwangirika kandi bikoranywe isuku ntagereranywa .

isoko rya kijyambere ryubatswe mu buryo bwiza kandi bwizewe ricururizwamo ibicuruzwa byanyujijwe mu nganda bigatunganywa, bigafungwa neza mu masashi cyangwa ibikoresho byabugenewe.

Inzu y'ubucuruzi bwa kijyambere icururizwamo ibicuruzwa byanyujijwe mu nganda bigatunganywa bikanabikwa neza mu buryo bw'isuku ndetse bufite umutekano.

Umugore uri gucuruza yifashishije ikoranabuhanga bakamwishyura ndetse agatanga inyemezabwishyu yemewe n'ikigo cy'imisoro afashe mu ntoki agacupa k'amazi yambaye umupira mu ibara ry'ubururu.

Isoko rya kijyambere rigezweho ricuruza ibicuruzwa byanyujijwe munganda bigatunganywa neza bikongerwamo izindi ntungamubiri ndetse bigafungwa mu bikoresho byabugenewe.

Uburyo bwa kijyambere bucuruza ibiribwa bigiye bitandukanye bigizwe; n'imboga z'icyatsi kibisi, harimo amashu, ibitunguru, karoti, n'ibindi bigiye bitandukanye.

Isoko rya kijyambere ryubatswe muburyo bugezweho kandi bwiza, harimo umugabo uri gusunika agakoresho kifashishwa mu guhaha, ndetse bikaba byanyujijwe mu nganda bigashyirwa mu masashe yabugenewe...